Umudamu uteruye umwana, iruhande rwe hakaba ari umugabo wambaye amarinete n'ishayi ya karokaro umuganga akaba yicaye imbere yabo ari gupima umwana, inyuma ya muganga akaba ari akantu karimo imbuto.

Mu muhanda harimo ibyerekezo bibiri, icyerekezo kimwe kirimo imodoka zimanuka eshanu, mu kindi cyerekezo harimo izindi modoka ebyiri zizamuka, iruhande rwaho hari icyapa kigaragaza ubwishingizi.

Ikirango cya Radiant cyerekana amasaha bakoreraho, kuwa Mbere kugeza ku wa Gatanu saa moya n'igice za mugitondo kugeza saa mbiri, kuwa Gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa kumi, haba habaye umuganda saa saba kugeza saa kumi, mu yindi minsi y'ikiruhuko ya zakonji ni saa tatu kugeza saa kumi.

Ikimenyetso cya radiyanti, radiyanti ikaba ari ikigo cy'ubwishingizi, hakaba hari nimero zayo zo guhamagara iruhande rwaho hakaba hari ifoto ya Clapton Kibonke ari mu bigori.

Umukobwa werekana ibijyanye na kompani yitwa radiyanti akaba ari compani ikora ibijyanye n'ubwishingizi.

Ecobank hakaba hari ifishi yerekana uburyo bishyura, hakaba hariho amazina y'umuntu, amafaranga na pini akoresha.

Iduka rigurishwamo imyenda ririmo imyenda igiye itandukanye, amoko menshi agiye atandukanye.

Umudamu afite telefone, n'akamashini ko kwishyurirwaho, gakora fagiture, inyuma ye hari inyanya, n'ibindi bicuruzwa, akaba yambaye umupira w'umuhondo, n'itaburiya akaba ateze n' igitambaro mu mutwe cy'umukara.

Aho bacururiza imyenda hakaba hari porutemanto ziriho imyenda imbere y'umuryango, hejuru yaho hakaba hari icyapa cyanditseho mede ini Rwanda mu wundi muryango winjiye hakaba harimo indi myenda bacuruza.

Imodoka ikaba ifunguye imiryango ibiri, ku ruhande rumwe hakaba hari umudamu, ku rundi ruhande hakaba hari umugabo. Iruhande rwabo hakaba hari abandi bantu babiri.

Abantu barindwi bari ahantu muri sare. Umugabo umwe aricaye yambaye amarinete n'umupira w'umutuku. Imbere hari ikayi ku kameza. Imbere ye hari undi mugabo bari kuganira wambaye umupira w'umukara. Iruhande rwe hari undi mugabo wicaye ku n'undi uhagaze ufite igitabo mu ntoki. Hari undi mugore wicaye witandiye, inyuma yaho hakaba hari imodoka iparitse n'abandi bantu hirya bahagaze.

Abagabo batandatu barahagaze, batatu muri bo bafite udukapu tw'umutuku, iruhande rwabo bazengurukijwe n'ibipirizo bye birimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru, iruhande rwabo hakaba ari imodoka ya Mahindra.

Imodoka eshatu za yundayi zikaba ziri muri parikingi, zikaba zifite ibara rya giri, ku rukuta inyuma hakaba handitseho yundayi ifite ibara ry'ubururu.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya Kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Abantu batanu barahagaze hakaba arimo abakobwa bane n'umuhungu umwe imbere yabo hakaba hari meza iriho impapuro n'acupa k'amazi nyuma yaho haba sikirini.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'igikamyo kinini, umwe akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, undi akaba yambaye umupira urimo amabara y'umweru, icyatsi n'umukara, bakaba bafite urufunguzo rwanditseho Akagera mutoro.

Imodoka ya toyota korola iburide, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi, ikaba ari iyo makumyabiri makumyabiri na kane, ikaba iparitse muri parikingi, inyuma ya parikingi ikaba ikorutiriwe n'urukuta n'urukuta ruriho utwuma, inyuma yaho hakaba hateye ibiti.

Abagabo babiri bahagaze bafite urufunguzo rw'imodoka rukoze mu kintu cy'igipapuro bakaba bahagaze imbere y'imodoka ya dayihastu umwe muri bo akaba afite agasakoshi k'umutuku yambaye n'ingofero y'ubururu inyuma yaho hakaba handitse akagera motor, muri korodori hakaba umuntu uri kunyuramo nyuma yiyo modoka hakaba hari ibintumeze nka jaride.

Imodoka zirindwi ziri mu bwoko bwa lava zikaba ziparitse ahantu mu mbuga, inyuma yaho hakaba hari amazu y'amagorofa agerekeranye, hakaba hari n'ibiti bigiye biteye hafi aho.

Imodoka ifunguye imiryango, imbere intebe zayo zisa na shokora ku rundi ruhande hakaba hari imodoka y'umutuku y'ivatire.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'u Rwanda. Igizwe n'inka akaba ari inoti ifite ibara ry'icyatsi, n'umwe harimo n'umweru.

Inoti nshyashya y'amafaranga ibihumbi bitanu ikaba irambitse ku kameza, n'inoti igizwe n'amabara y'iroze hakaba hariho uduseke.

Inoti y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda, inoti imwe ikaba ishushanyijeho intore iri guhamireza n'inyubako zubatse. Indi ikaba ariho umwana w'ingagi, inkende irimo irurira igiti.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'u Rwanda hariho imisozi n'ibiti ikaba igizwe n'ibara ry'umweru n'ubururu.

Inoti y'amafaranga magana atanu y'amafaranga y'amanyarwanda. Ku ruhande rumwe, hakaba hariho ingagi. Ku rundi ruhande, hakaba hariho abana batatu bafite ibitabo bari gusoma.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri y'u Rwanda, akaba ari inoti iriho agaseke, hakaba hariho ikiyaga, ku ruhande hariho udusozi.

Ikimenyetso cy'igiceri cy'icumi cy'ikinyarwanda. Handitseho banki nkuru y' Urwanda. Hakaba hariho igitoki n'umwaka igiceri igihe cyakorewe, cyakorewe mu w' ibihumbi bibiri n'icyenda, kikaba kigizwe n'ibara ry'umuhondo.

Abantu bari guhererekanya amafaranga umwe akaba afite amafaranga y'amarundi undi akaba afite amafaranga y'amadolari y'amanyamerika, uw'imbere muri gishe ni we ufite amafaranga y'amarundi uw'inyuma hanze aka afite amadolari y'amanyamerika bakaba bari kuyahererekanya.

Ibiro bya kampani ya Western Union umudamu ukoreramo imbere arimo araha amafaranga umukiriya mudamu yampaye agapfukawa k'umukara umukiriya w'umugabo yambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Inzu iri gukorerwamo ibijyanye no gucuruza amata hakaba hari gucururizwa amata ya Mukamira mo imbere hakaba harimo icyuma kibashyiramo amata iruhande hakaba hicaye umukobwa w'imbere hakaba harimo n'intebe kuruhande hanze hakaba hari akantu k'icyuma karimo gaze imbere yaho hakaba haparitse imodoka y'umweru.

Ahagurishirizwa ibinyobwa bijyanye n'amata, hakaba harimo Nyabisindu, amata ya Nyabisindu, hakaba harimo yahurute zitandukanye, hakaba harimo n'amata yayandi yo mu tubido dusanzwe, hirya hakaba handitse ngo Kinazi dayari koperative.

Ku meza hateretse isahani iriho imitsima umunani iruhande rwayo hakaba hari indi mitsima iri ku ruhande ku rundi ruhande hakaba hari utuntu tw'udupapuro bapfunyikamo imitsima .

Firigo ebyiri imwe ihagaze n'indi itambitse ku ruhande rwayo, imwe ihagaze iriho ikirango cya Mukamira amata ya mukamira, iruhande rwayo hararaga ameza ku rundi ruhande, hari etaje irimo amafanta koka na oranje.

Umugabo uhagaze ahantu muri kantine bacururizaho mata. Iruhande rwe hakaba hari agatebe, ku rundi ruhande hakaba hari n'akandi gatebe. Imbere ye hakaba hari firigo n'icyapa cyerekana amata bacuruza. Iruhande hakaba hari n'akameza. Hirya yaho hakaba hari akayetajeri.

Umuntu uhagaze akaba ari gusuka amata mu cyuma kinini cyagenewe kubika mo amata, akaba ari gukoresha igicuba cy'icyuma kinini kirimo amata arimo arasuka muri icyo cyuma.

Umugurisha uri gusuka amata, agiye kuyaha umuguzi, umutegereje ko agira icyo amuha, yambaye ishati y'umweru.

Umwana uhagaze akaba afite telefone mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari ikidobo cy'icyuma kijyamo amata, inyuma ye hakaba hicaye abahungu babiri bakorera sosiyete y'itumanaho ya eyateli, umwe akaba afite telefoneni mu ntoki afashe ku bwanwa.

Umukobwa uri gusuka amata ufite ijerekani ari gusuka amata, akaba ari gusuka amata mu birahure hakaba hari ibirahure birimo amata iruhande hakaba hari ijage, inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibirahure, ku rande rundi hakaba hamanitseho itaburiya, ibyo birarahure bikaba biri ku masiniya.

Umudamu afite ijage y'amata mu ntoki, imbereye hari akameza kariho indi jage. Hirya hakaba hari icyuma cy'amata, iruhande rwe hakaba hari indi ndobo y'icyatsi.

Firigo ifunguye irimo akabido hasi karimo akantu k'agakopo, iruhande rwaho hakaba hari amajerekani ane ya jibu, umuryango ukaba ufunguye.

Muri resitora hakaba hariho abantu babiri bicaye. Imbere yaho hakaba hari amasahani ariho ibiryo umwe ku wundi. Iruhande rwabo gato hakaba hari seriviyeti. Hino yaho hakaba hari igikombe cy'amata n'isahani yindi iriho ibiryo.

Firigo irimo akabido k'amata, hakaba harimo n'agacupa k'amazi n'ijage ebyiri, iruhande rwaho hakaba hari amabido abiri y'amazi ya jibu.

Mu nzu ahagana ku muryango hasohoka, hakaba hari gukoropwa, hakaba haparitse n'igare ku ruhande, usohotse hanze akaba haparitse moto ihetse icyuma kirimo amata, imbere ya moto hakaba hari umuntu uri kugenda, hirya wambukiranyije hari moto iparitse n'abantu bahagaze n'undi munyonzi uri ku ruhande ufite igare na moto iparitse.

Isahani iteretse ku meza ikaba iriho irindazi na seriviyete, iruhande rwaho hakaba hari akantu k'agakangara ka purasitike nako kajyamo amaseriviyete, iruhande hakaba hari intebe ifite ibara ry'ubururu.

Umudamu wicaye afite terefone mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari igikombe kirimo icyayi, iruhande rw'icyo gikombe hakaba hari akandi gakopo kari ku ruhande, hirya ye iburyo hakaba hari firigo, iruhande rw'iyo firigo hakaba hari icyuma cy'amata, iruhande rw'icyo cyuma cy'amata hakaba hari etajeri irimo amacupa y'amazi, iruhande rw'icyuma cy'amata hakaba hari intebe ya parasitike.

Umuntu ari kunywa amata, iruhande rwe hari keke ebyiri ziri ku isahani, imwe iriho ikanya yayiriyeho, iyindi ni nzima, iruhande rwaho hari ikiyiko.

Ahakorerwa kantine, hakaba harimo teremusi ebyiri, agasorori karimo capati, munsi harimo akandi karimo amandazi, hasi hariho amasahani, iruhande hariho firigo, ku rundi ruhande hakaba harimo puberi n'intebe ziranga hano ku ruhande.

Ahacururirizwa amata y'inyange, hakaba hari icyuma cy'amata y'inyange, inyuma yaho hakaba ari etajeri irimo amata y'inyange yo mu dukarito, amaji, amazi, hejuru yaho hakaba hari utubido, hino yaho hakaba hari intebe.

Etageri y'ubururu ikaba irimo amata y'inyange, kabamo za ji, nkamo amazi, kabamo na fanta, imbere yabo hakaba harimo indobo imwe irimo amandazi n'indobo ipfundikiyeho capati.

Abana bicaye bari kunywa amata bari kurya n'umugati, imbere yabo ku kukomeza ha akaba hari utubido tubiri tw'amata n'ikijaga kinini, hakaba n'udusahane tubiri, kuru ruhande rwabo akaba ahagaze umugabo uri kubaseriva hirya hakaba umugabo wambaye igisarubeti cy'icyatsi.

Umukiriya agiye kwishyura umucuruzi. Umucuruzi akaba acuruza fanta, amaji n'amata.

Etajeri ikaba irimo amacupa y'amazi atandatu iruhande rwayo hakaba hari ambaralaje ebyiri hejuru ya etajeli hakaba hari inkongoro ebyiri, inyuma ku gikuta hakaba hashushanyijeho inka.

Terefone ya Samsung hari uri kuyikoresha ari mu bijyanye na momo peyi, hari ahanditse sendi mani, ti bayi, peyibiri, banke savisi, wesitani yuniyoni, mayimomo akawunti, redingi aporovayizi, mayi sekiriti, haripu andi egiziti.

Ibyerekeranye no kwishyura ukoresheje telefone ukoresheje umuyoboro emutiyene mobayiro mani, kohereza amafaranga, kwishyura fagitire, kugura amayinite cyangwa interineti, gukoresha momopeyi, gukoresha operasiyo za banki, inguzanyo, kureba akawunti yawe, ubufasha cyangwa poromosiyo.

Abantu babiri bahagaze bari gukoresha terefone, umwe yambaye umupira w'u Rwanda, undi yambaye ingofero y'umuhondo n'amarinete. Hirya yabo hari abagabo babiri bandi bahagaze, umwe wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro ya kaki, undi yambaye ikote rijya gusa icyatsi n'ipantaro y'umukara, ruguru yabo hakaba hari esikariye zizamuka.

Abakobwa batatu bakaba bicaye, umwe ku ruhande akaba afite ikayi n'ikaramu ari kwandika, inyuma yaho hakaba hari irido ry' umutuku, ku rundi ruhande ku gikuta hakaba hari igipapuro cyanditseho inzoga n'ibiciro byayo.

Umugabo uri gutera ipasi ku kameza kabugenewe, akaba ari gutera umwenda. Iruhande rwe hakaba hariho ibiciro bya Airtel money n'uburyo babigura.

Fagitire ya Rwanda reveni otoriti, ikaba igizwe n'igihe bishyuriye, itariki, aho bishyuriye, amafaranga bishyuye

Ibiciro by'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga byo ku wa mbere ku itariki cumi z'ukwezi kwa karindwi makumyabiri makumyabiri na gatatu bikaba ari ibiciro bigiye bitandukanye.

Umuntu ari gushyira amafaranga mu kamashini kagenwe kubara amafaranga; amafaranga akaba ari amafaranga ari mu bwoko bw'amadorari y'amanyamerika.

Akamashini kabara amafaranga, kakaba kari kubara amafaranga y'amadorari, hakaba hari umuntu uri kugakoresha iruhande rwe afite computer ya laputopu.

Inoti esheshatu z'amafaranga y'amayero hakaba harimo inoti y'atanu, inoti y'icumi, inote ya makumyabiri, inote ya mirongo itanu, inoti y'ijana n'inoti ya magana abiri.

Amafaranga y'amanyamahanga akaba agiye afunzwe na fimba, agapaki kamwe karimo inoti z'amayero icumi, akandi karimo inoti z'amadorari icumi n'akandi karimo andi mafaranga y'amadolari atagaragara umubare wayo.

Akamashini kabara amafaranga, kakaba karimo amafaranga yo mu bwoko bw'amadorari y'amanyamerika, hakaba harimo inoti z'amafaranga ijana z'amadorari y'amanyamerika.

Iherekanya ry'amafaranga y'amanyamahanga, amwe ni amadolari y'amanyamerika, andi ni amafaranga yo mu gihugu cya Nigeriya.

Amafaranga y'amanyamahanga, abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'amadorari y'amanyamerika, iruhande hakaba hari andi amafaranga afunze, ku rundi ruhande hakaba hari akamashini ka karikatirise kabara amafaranga.

Umuntu ufashe mu ntoki inoti z'amafaranga atandukanye, hakaba hari inoti imwe, inoti ya rimwe y'amafaranga y'Amanyamerika, inoti y'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'Amanyarwanda, inoti ya mirongo itanu y'amafaranga y'Amayero, inoti y'igihumbi y'amafaranga y'Amanyarwanda, n'inoti y'amafaranga atanu y'amafaranga yo muri Mareziya.

Inoti esheshatu z'amafaranga y'amayero, imwe ikaba ari iy'amayero atanu, iy'indi ikaba y'amayero icumi, iy'indi ikaba iy'amayero makumyabiri, iy'indi ikaba iy'amayero mirongo itanu, iy'indi ikaba iy'amayero ijana n'iyindi y'amayero magana abiri.

Ihererekana ry'amafaranga y'amadorari y'abanyamerika hagati y'umuntu w'umukozi uri muri gishe n'umukiriya uri hanze.

Akuma kabara amafaranga kakaba kari kubara amafaranga yo mu bwoko bw'amadolari y' abanyamerika iruhande hari umuntu uri gukoresha telefone, arigukoresha apurikasiyo ya karikatirise.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, muntoki zombi ebyiri. Muruhande rumwe bakaba bari guhererekanya amafaranga y'amadorari y'Amerika, murundi ruhande bakaba bari guhererekanya amafaranga y'Amashiringi

Umuntu ari kubara amafaranga y'amanyamahanga. Imbere ye hari andi ari ku meza, azinze, afunze. Iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari imashini ibara amafaranga.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Umukiriya ari gusohoka aho bavunjira amafaranga atandukanye, y'ubwoko bwinshi butandukanye, yaba ayo hanze ndetse no kuri terefone ngendanwa za mobayiro Mani.

Agakiyosike gakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba harimo ekwiti, westani yuniyoni, banke ofu Kigali, emutiyene momo, eyateri, regi, urwego banke, ekobanke, ekwiti banke, eyateri n'irembo.

Ivunjisha ry’amafaranga y’abanyamahanga mu buryo butandukanye, idolari imwe riragurwa amafaranga ibihumbi bitatu na makumyabiri, bikagurisha amafaranga ibihumbi mirongo itanu. Ivuresiteringi riragurwa amafaranga ibihumbi na magana atanu, rikagurisha amafaranga ibihumbi bine magana atandatu. Iru riragurwa amafaranga ibihumbi itatu n’ijana mirongo itanu, rikagurisha amafaranga ibihumbi bitatu na magana mirongo ibiri. Irinyakenya rimwe riragurwa mirongo itatu, bikagurisha amafaranga mirongo itatu. Itanzaniya riragurwa mirongo itanu, rikagurisha amafaranga mirongo itandatu.

Aho bacuruza imbaho, hakaba hari imbaho zitondetse hamwe ku ruhande ari nyinshi. Iruhande rwazo hakaba hari inshitingi zifunzemo ibintu. Hirya hakaba hari akazu nako karimo imbaho bacuruza. Imbere ya hakaba hari abagabo babiri, umwe wicaye n'uduhagaze .hari imbaho ziri iruhande rwabo . Hakaba hari undi mugabo uhagaze imbere iruhande rwe hari igiti.

Mu nzu mo imbere harimo intebe nini, n'indi imwe ntoya ebyiri, imbere yaho hari akameza hariho n'indabo, hasi hakaba hari agatapi. Ku ruhande hakaba hari akabati na televiziyo, mu nguni harimo ivaze irimo ururabo.

Akabati kagenewe kujyamo televiziyo harimo televiziyo hagati, iruhande hariho amavase y'indabo imbere yaho hariho agatapi.

Intebe z'amadiva eshatu hagati hariho imeza, iruhande hariho utumeza tubiri dutoya ni intebe ziri muri saro rwagati.

Etajeri iriho ibintu bigiye bitandukanye hakaba icupa ahakurikiye hakaba ariho ururabo, ahandi hakaba ariho icupa n'akandi kantu hejuru yaho hakaba hari ururabo naho.

Mu cyumba harimo igitanda, hakaba hariho imisego ibiri, hakaba hashasheho amashuka y'umweru n'ikuvurori y'umweru, iruhande rwaho hakaba hari akameza kagizwe n'ibara ry'icyatsi.

Muri jaride harimo intebe, hakaba harimo intebe z'amadiva. Hakaba harimo intebe ebyiri z'amadiva nini n'izindi ebyiri ntoya n'utumeza tubiri duto n'akabati n'akameza kari hagati kanini.

Mu cyumba igitanda, akameza kariho itara, hirya hakaba hari udutebe tubiri n'akameza kari imbere yaho, hino hakaba hari ari intebe n'akameza kayo.

Ikirango cya hoteli mariyoti. Imbere yaho ahri ibyuma bitanu bishinze.

Udutebe dutatu n'akameza kaba n'utundi tutebe duto cyane two kwicaraho, bikaba biri ahantu hiherereye, urebye hirya ubona ahantu hateye ibiti, hari n'amazu menshi aho kurizo ntebe, hakaba ari icyapa cyerekana yuko ko nta kuwanywera itabi.

Intebe eshatu n'ameza ateguyeho ateguyeho igitambaro n'akarabo hirya yaho hakaba hari inzu ya etage ebyiri hakaba hateye n'ibiti ku ruhande na jaride.

Ku meza hateretse ibirahure bibiri, n'amacupa abiri y'amazi y'inyange, iruhande rwabo hakaba hari kantu gafunzemo ikawa, imbere y'ikawa hakaba hariho udufunzemo amajyane.

Pisine ku ruhande rwayo hari udutebe dutwikiwe n'imitaka tubiri, ku rundi ruhande naho hakaba hari akandi gatebe konyine, hirya hakaba udutebe tundi hari n'imita itwikiriye hirya yaho hakaba hari inzu iri kubakwa itari yuzura.

Jardin irimo akameza n'intebe enye n'umutaka, ku ruhande naho hakaba hari uwundi mitaka n'izindi ntebe, n'utumeza. Imbere yaho hakaba hariho inyubako.

Kuri resebusiyo hariho umuntu wakira abantu n'ibikoresho bye akoresha ategereje abaza bamugana bamusaba serivisi bakeneye.

Ku meza hariho ibiryo bigiye bitandukanyekanye. Hakaba hari isahani y'ibiryo iriho makaroni n'inyama. Iruhande rwaho hakaba hari icupa ry'inzoga hakaba n'akandi gacupa kajyamo umunyu.

Inzu ebyiri za etaje ziteganye, imbere yaho hakaba hari jaride, iruhande rwa jaride hakaba hari pisine, ku ruhande rwa pisine hakaba hari intebe bicaraho n'imitaka, iruhande handi hakaba haparitse imodoka ya rava.

Mu busitani harimo akameza n'udutebe tune, iruhande rwaho hateye uturabyo, ahakurikiyeho hari pisine. Iruhande rwa pisine hariho udutanda tubiri two kuryamaho, tukaba dutwikiriwe n'umutaka, hakaba hazengurukijwe n'ibyuma.

Pisinine nini iruhande rwaho hakaba hari udutebe n'utumeza, hariho n'imitaka itwikiriye, inyuma yaho hakaba hari ibiti n'inyuma ya gatoya hakaba hari inzu yubatse.

Muri jaride hari imeza n'udutebe tune, iruhande rwa jaride hateye indabo, hiryaho gato hari pisinine. Ku rundi ruhande rwa pisine hari udutanda two kuryamaho n'umutaka udutwikiriye, hakaba hakurokitiriwe n'utwuma.

Ameza ateguweho amasahani, ibirahure bitatu birimo icyo kunywa, n'icupa rimwe ry'inzoga, hakaba hariho n'igisorori kirimo ibyo kurya. N'intebe enye. Bikaba biri ahantu mu busitani.

Inyubako ya etaje, ikaba ikorerwaho na Kampani ebyiri. Akaba ari kampani yitwa yu eyipi inshuwarensi hamwe na beka eyiti emu.

Inyubako iherereye Nyarutarama, ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye. Hakaba harimo foregisi biro, hakaba harimo ibijyanye n'ubwishingizi bwitwa purime, hakaba harimo ibijyanye n'abagurisha itike z'indege n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo uhagaze yambaye ikositimu z'umukara, imbere yaje yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari akameza na mashinne raputopu n'intebe.

Inyubako igeretse iya isilamu, imbere yabo mu muhanda harimo umumotari utwaye umugenzi, n'abanyamaguru babiri barimo barambuka barambukirana imihanda.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye n'abaguzi n'abagurisha hakaba inyanya, ibitunguru, amashu, karoti, ibitunguru.

Inzu ya etaje eshatu, ikaba irimo abantu benshi bahagaze, hasi yaho hakaba hari izindi modoka ziparitse zigiye zitandukanye, harimo n'imodoka ya polisi, hakaba hari n'abandi baturage babiri bahagaze hasi iruhande rw'imodoka.

Mu isoko harimo imbuto, bacuruza n'imineke, imyembe, ibinyomoro,, wotameloni, hakaba harimo n'abantu batatu barimo umudamu wicaye yifashe neza, uteza igitambaro, hakaba n'undi muhungu uri inyuma wambaye ingofero ayirebesheje inyuma n'undi mudamu uri hirya, hakaba harimo n'ibitoki.

Inyubako ya etaje, abantu benshi banyuranamo bagenda, ikaba igizwe n'amabara y'umuhondo, icyatsi, umutuku n'ibiranga ibyo ibihakorerwa.

Ibicuruzwa bitandukanye: Inyanya , imineke, ibishyimbo umuceri, amashaza. Hakaba hari umuntu uri gupima amashaza mu kabakure, iruhande rwe hakaba hari igikapu n'ikindi gikapu ku ruhande.

Mu isoko abadamu babiri barahagaze, imbere yabo hari amapurete menshi y'amagi, iryo soko rikaba risakajwe n'amabati n'ibyuma, inyuma yabo hakaba hari ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Abadamu babiri bacuruza ibirayi, umwe akaba ari guha umuguzi ibirayi yicaye, n'undi akaba yicaye, imbere yabo hari imifuka y'ibirayi, hirya hakaba hari inzu zubatse, ku rundi ruhande akaba ari umuntu uri gutambuka uri kugenda, hirya hakaba hari abandi bantu bahagaze.

Ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa. Harimo ibitoki, harimo ibigori, harimo poivro, harimo karoti.

Etajeri irimo imboga zitandukanye, hakaba harimo shufurere, karoti ishu ibitunguru n'imboga rwatsi.

Imbuto z'ubwoko zitandukanye harimo; imineke, amacunga, inanasi, ibinyomoro, pome, amatunda, n'abaguzi barimo kugenda bareba ibyo bashaka kugura.

Aho bacururiza imyenda n'amasakoshi, imyenda igiye itandukanye irimo amabara menshi, hicayemo abagore babiri bacuruza.

Umudamu w'umucuruzi aricaye. Inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye harimo: tungurusumu, inyanya, imineke, amacunga, ibitunguru ,ibirayi ndetse n'agacupa k'amavuta y'amamesa.

Abagore babiri b'abacuruzi, bafite umutaka, bicaye bambaye ibikwembe mu mutwe, bari gucuruza harimo: inyanya, karoti, amashu, n'isamaki hakaba hari n'abandi bamama babiri bari kugura nabo.

Umudamu wicaye w'umucuruzi, imbere ye hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari avoka, amacunga, inyanya, hakaba harimo intoryi, hirya ye hakaba hari n'ibindi bicuruzwa bihari nk'imineke n'ibijumba, ku ruhande hakaba hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umukara.

Agapapuro ka momo peyi ya MTN, kakaba kariho imibare ya kode bishyuriraho, ariyo icumi mirongo inani na kane cumi na gatatu, kakaba kari ku meza, kuri iyo meza hakaba ari ikindi gitabo.

Umuntu ufite terefone mu ntoki, akaba agiye kwishyura akoresheje momo peyi hamwe na kode, afite terefone agiye gushyiramo umubare w'amafaranga, imbere ye hakaba harimo agapapuro kanditseho kode agiye kwishyuriraho.

Umuagenti wa emutiyene mobilu mane ari kumwe n'umukiriya, uri guhererekanya telefone. Iruhande rwabo hicaye abandi bantu babiri, inyuma yabo hari inyuma agenti hari inzu hari n'motari uparitse igare ku ruhande.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, akaba ari imbere y'akameza kariho imipira MTN n'ingofero za MTN, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati ya calokaro, ufite agakapu mu ntoki.

Abagabo babiri barahagaze umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero, undi yambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari imodoka ihari, aba bagabo bari gukoresha terefoni, inyuma y'imodoka hakaba inzu y'inyubako ihari iriho n'icyapa.

Umu ajenti wa emutiyene ari kwakira abakiliya batanu, harimo abagabo batatu n'abadamu babiri.

Imeza iriho kode zo kwishyirwaho za kampani ya MTN mobile money. Inyuma yaho hakaba hari amasikirini abiri, inyuma yaho naho gato hakaba hari indabo.

Umukiriya ari kumwe n'umu agent ku kazu ke akoreramo, bari kuganira ku bijyanye nibyo bashaka ko amufasha ku bijyanye na serivisi akeneye, umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Udukiyosike tubiri dufatanye twa kampani ebyiri zitandukanye, akambere ni aka eyateri mani ka sosiyete ya eyateri hakaba harimo umukobwa, akandi ni aka emutiyene mobayiro mani ya soiyete ya emutiyene hakaba hari abakiriya babiri bahagaze, n'umucuruzi uri mo imbere.

Kiyosike yanditseho ibijyanye na kampani ikorana n'itumanaho yitwa Eyateri inyuma yaho hakaba hari ibiti.

Abantu babiri bahagaze umukobwa n'umugabo umukobwa afite terefoni haribyo arikwereka umugabo wambaye ingofero, hirya yabo gato hakaba hari utwana tubiri duhagaze.

Abagabo batatu bahagaze ku kazi ka emutiyene gakora ibijyanye na mobayilomani, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wa rakosite, n'undi wambaye agashati k'umweru kuruhande, hababa hakorwa ibijyanye na momo peyi, harimo mobiro emutiyene, eyateri na tigo.

Abagabo babiri barahagaze umwe ni umukozi wa emutiyeni yambaye n'umwambaro wayo afite telefone arikwereka undi uri imbere ye uhagaze ufite igare nyuma yaho hakaba ari igipankarite cyandikishijeho ibintu bya emutiyeni mobayilo mani.

Moto enye zikora akazi ka derivari, zikaba zihagaze ziparitse nyuma zikaba zihetse utubuwate imbere yazo hakaba harimo aho harimo umuhanda wambukiranya wa kaburimbo, wambutse hirya hakaba hari inzu iteyemo insina ifite korutire, ifite igikuta kiriho irangi rijya gusanga nka oranange.

Umukozi wa company yitwa vuba vuba, akaba ari campany ikora ibijyanye na delvary yibintu bitandukanye, akaba ahagaze ari kuva ku igare ari kuri parika, ahetse igikapu kirimo ibyo agiye gutanga, akaba ari imbere y'igipangu gifite ibirabyo ku ruhande.

Abagabo babiri, umwirabura n'umuzungu bose bambaye rinete. bari kwerekana kasike za moto sefu motozi.

Inzu y'iposita hasi hakaba haparitse imodoka esheshatu na moto byose bikaba biri mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo w'umumotari arahagaze yegamye kuri moto ye, akaba akorera kampani yitwa vuba vuba, inyuma ye hakaba hari icyapa cyerekana hatanyurwa, inyuma yaho na none hakaba hari icyapa cyantseho bugarama, akaba ari hagati y'imihanda ibiri.

Umukozi wa company yitwa Vuba vuba, akaba ari company ishinzwe kuderivaringa ibintu bigiye bitandukanye, akaba aparitse moto, yafunguye aho akuramo ibintu ashyiriye abantu.

Mu nzu harimo ravabo, n'ahantu hari utubati babika ibintu, akaba ari inzu iri Kanombe muri Kigali ikaba igurwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine.

Parikingi n'akajaride gatoya, hakaba hakorotiriwe n'amatafari, hakaba hari n'inzu ku ruhande, hakaba hari inzu iri Kimibagabaga muri Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi magana atanu ku kwezi.

Mu busitani harimo igiti giteyemo, hakaba hakorutiriye, hakaba hari inzu ikodeshwa amafaranga igihumbi magana atanu ku kwezi, ikaba iri Kacyiru mu mujyi wa kigali.

Umugabo ari gusohoka mu nzu ari kugenda. Imbere hakaba hari jaride iteyemo n'igiti, imbere ya jaride hakaba ari inzu kuhande.

Intebe ebyiri z' amadiva, imwe yicaraho abantu batatu n'indi yicaraho abantu babiri, imbere yaho hari akameza hasi yaho hari agatapi ni muri salo hirya yayo hari saramanje harimo n'amarido.

Inzu iri mu mujyi wa kigali ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, ikaba ifite igisenge cy'amategura y'umutuku, ifite na porotayi ijya gusa nka shokora.

Inzu irimo ameza intebe, itapi akabati vandalateri n'imitako akaba ari inzu ikeneye amafaranga amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi akaba ari inzu wabona muri Kigali.

Mu marembo y'inzu kuri porutaye hakaba hafunguye, hakaba hari inzu'imbere ifite amabati y'umukara isize amarangi y'umweru n'umuhondo. Ikaba iherereye i Kanombe yo mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu

Inzu ikeneye miliyoni mirongo icyenda n'eshanu wayigura hano muri Kigali mu Rwanda.

Inzu ya etage ikeneye amafaranga igihumbi n'ijana y'amadorari buri kwezi wayibona muri Kigali, ikaba ifite porutayi ya shokora.

Imeza iteguyeho amasahani arindwi hakaba hagati harihoho ururabo, ku ruhande hakaba hariho intebe enye, ku gikuta hakaba hariho taburo ebyiri, hejuru hakabaho amatara arindwi.

Mu nzu harimo intebe z'amadiva eshatu: ebyiri nini, n'indi imwe ntoya, hakaba hari n'akameza ku ruhande, akaba ari inzu iri Kicukiro Kagarama mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi n' ijana cy'amadolari.

Muri kwizine yo mu nzu, hakaba harimo firigo icometse, akabati ko hejuru k'imbaho n'ibirahure, hasi hakaba akandi kabati k'imbaho, iruhande rwaho hakaba hari kwiziniyeri.

Inzu iri ahantu ukwayo, ifite igisenge cy'amabati ajya gutukura. Ikaba ifite n'irangi ry'umuhondo, n'ahandi hari irangi ry'umutuku. Ikaba ari inzu ikodeshwa Kimironko mu umujyi wa Kigali . Ikaba ifite ibyumba bibiri na douche, na toilete ebyiri. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu ya etaje, imbere hakaba hari parikingi, iruhande hakaba hateyemo jaride iriho n'ibiti, hakaba hari n'ururabo rugendagenda ku nzu.

Inzu iri kugurishwa iherereye kimironko, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu. Ariko hakaba hariho kuba mwakatuza igiciro.

Inzu yo gukodeshwa igizwe n’icyumba kimwe n’ubwiherero bumwe na dushe, ikaba ikeneye amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi. Ikaba iherereye aho bita Kacyiru, umujyi wa Kigali. Ni inzu yonyine irukwaya.

Inzu yonyine iri ahantu ukwayo ikaba ifite parikingi nini, ikaba ari inzu iherereye i kanombe akaba ari inzu nshyashya ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu ikaba ifite ibyumba bitanu na dushe na tuwarete enye.

Inzu ikeneye amafaranga ibihumbi bibiri by'idolari, ikaba igeretse rimwe ukaba wayibona muri Kigali, nimero wayisangaho ni zeru karindwi umunani, mirongo itandatu, cumi na gatandatu mirongo irindwi n'umunani, icyenda.

Inzu yo kubamo ikodeshwa hamwe na parikingi baparikamo imodoka.

Inzu iri ukwayo, ku ruhande hari jaride imbere yaho hari imbuga ntoya, ikaba ari inzu iri Kanzenze, ikaba igurishwa miliyoni cumi na zirindwi ariko mushobora kumvikanaho.

Mu isoko hakaba harimo ibiribwa; inyanya, ibitunguru, karoti, shufurere, imboga n'ibitunguru.

Umudamu ari muri supamaketi afite ambarage mu ntoki, akaba gushyira ibintu muri ambarage hari ibitunguru, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amasakoshi amanitse agurishwa menshi, hakaba hari hari abantu batandatu, harimo abagabo batatu n'abagore babiri.

Umuganga w'umudamu aricaye ari kwandika afite n'igipapuro mu ntoki, iruhande rwe hari aho babika amadokima, imbere ye hari umukobwa ufite ikarita ya mituweli ari kumuhereza.

Abadamu bane bicaye, bose bakaba bafite mituwele, bari kuzerekana. Abadamu babiri muri bo, bakaba bafite utwana. Inyuma yabo hakaba hagaze abandi badamu.

Ku ivuriro kwa muganga abaganga babiri barimo barandika baturage imbere umudamu ahahagaze imbere y'undi mugabo arahagaze hafi y'umuryango wambaye ishati y'umweru, hari n'undi hirya gato y'umuryango, ku muryango hari abandi bategere bashaka kwinjira ngo bahabwe serivisi.

Umukecuru arahagaze imbere y'umuntu uri kwandika inyuma ye hakaba hari umuganga uri kwinjira uri mu muryango.

Umuhungu wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati ya karokaro y'umukara, akaba afite sheki ya RSSB iriho miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu. Inyuma ye hakaba hari ubusitani n'amaparikingi.

Aho bagurira imboga, umukobwa akaba ahagaze afite agapaniye ashyiramo ibintu, akaba yambaye ingofero n'ikabutura, imbogaje guhaha hakaba harimo korojete, amashu na karoti.

Umukiriya ari muri arimantasiyo, imbere ye hari akagare, yafashe igicuruzwa arimo aragisoma neza arebe uko kimeze, akaba yambaye agakoti k'ubururu.

Firigo eshatu zirimo ibintu bigiye bitandukanye, hari irimo amarediburu, amaji ,amafanta ,hakaba harimo amazi , hakaba n'indi irimo yahurute.

Muri arimantasiyo, umuguzi ari kwereka umugurisha ibyo amaze kugura, kugira ngo amukorere fakitire, amwishyure. Harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, amoko menshi.

Umugabo wambaye imyenda isa y'ubururu ishati n'ipantaro, akaba yambaye na sandali, akaba afite agacupa karimo ikintu hari akaba ari umukobwa uri kumufasha kumushyiramo ibintu agiye kugura muri alimantasiyo

Umudamu ari muri bibiliyoteke aho bacururiza ibitabo byo gusoma, akaba yambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara, akaba afite agasakoshi mu ntoki gasa n'ibara ry'umuhondo.

Muri alimantion harimo umucuruzi w'umukobwa wambaye agapira k'icyatsi n'agapfukamunwa, hakaba n'umuguzi wambaye agapira k'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, akaba ari kureba ibigurwa uko bimeze.

Umukobwa ukora muri alimantasiyo yicaye, yambaye agapira k'umutuku n'itaburiya yabugenewe y'akazi. Imbere ye hakaba hari akamashini kabara amafaranga, na sikirini iri ku ruhande. Akaba afite ibintu mu ntoki bigiye bitandukanye.

Umukobwa uri kureba ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa harimo urusenda, pavuro, kokombure, tangawizi n'ibindi.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.